Ku rukuta rw'ishuri ry'inshuke hashushanyijeho ibintu byinshi birimo nk'imyumbati, inyama z'inkoko ndetse n'ibindi. Ibi bikaba bikangura ubwonko bw'abanyeshuri bakiri bato ndetse bikanongera ubushobozi bw'ubwo bwonko bwabo.

Ikigo cy'amashuri gifite inyubako zubakishije amatafari ndetse zisize ibara ry'umuhondo weruye, hari abanyeshuri bane bari gukina umukino. Nanone kandi izo nyubako z'icyo kigo zikaba zifite ibigega bifata amazi y'imvura.

Inzu ifite amabara y'umuhondo weruye ndetse n'umweru isakaje amabati y'umutuku, iyo ikaba yifashishwa mu gutanga uburezi bw'abana bakiri bato, hari kandi ikibuga kisanzuye gifite ubwatsi bwumye, icyo kibuga kikaba gikinirwaho n'abana baza kwiga kuri iryo shuri.

Igipupe gikozwe mu ishusho y'ipusi kikaba gifite amabara y'icyatsi kibisi, umweru ndetse n'umukara, iki gipupe kikaba cyifashishwa mu kwigisha abana biga mu mashuri y'inshuke, ibi bikaba bibafasha mu kubakangura ubwenge.

Ibishushanyo biriho abanyeshuri ndetse n'ibiti bitandukanye, byifashishwa cyane mu bitabo by'abanyeshuri biga mu mashuri abanza ndetse n'ay'inshuke, ibi bikaba bifasha abanyeshuri kugira ngo basobanukirwe ibintu bitandukanye.

Udukinisho dufite amabara atandukanye arimo icyatsi kibisi, umuhondo, ubururu ndetse n'umutuku. Utu dukinisho tukaba dukoreshwa cyane mu mashuri y'inshuke, tukaba dukangura ubwonko bw'abana.

Udukinisho dutandukanye dufite amabara arimo ibara ry'umutuku, ubururu, icyatsi kibisi ndetse n'umweru byifashishwa cyane mu kwigisha mu mashuri abanza, nanone kandi hari n'amakayi yifashishwa n'abanyeshuri bayandikamo.

Ni ngombwa cyane ko mu kwigisha abana bakiri bato cyane cyane abiga mu mashuri y'inshuke hakwifashishwa udukinisho, utu dukinisho tukaba dufasha abana mu gukangura ubwonko bwabo ndetse tukaba twabigisha ibintu bitandukanye birimo nko kubara ndetse n'amabara.

Ku rukuta rw'ishuri ry'inshuke, hashushanyijeho ibishushanyo birimo inkoko ndetse n'igishushanyo cy'umubiri w'umuntu. Ibi bikaba bifasha abanyeshuri b'inshuke, kugira ngo bamenye ibice bigize umuntu ndetse bamenye n'inyamaswa zitandukanye.

Icyumba cy'ishuri kinini cyisanzuye gifite amabara atandukanye ndetse hakaba harimo n'ibikinisho byifashishwa mu gutanga uburezi bw'abana bakiri bato, ibi bikaba bibafasha kugira ngo bakangure ubwonko bwabo ndetse bikanabafasha kugira ejo hazaza heza.

Ibikoresho bitandukanye birimo ibishushanyo bifite amabara y'ubururu ndetse n'umutuku, byifashishwa mu kwigisha abana bo mu mashuri y'inshuke. Ibi bikaba bifasha mu gukangura ubwonko bw'abo bana ndetse bikanabafasha gufata mu mutwe.

Igiti gifite amashami ndetse gitemye ishami ry'iburyo, iki giti kikaba gishushanyije ku rukuta rw'ishuri ry'inshuke. Ibi bishushanyo bikaba bifasha abanyeshuri mu gukangura ubwonko bwabo ndetse no kongerarera ubushobozi bw'ubwonko bwabo.

Agakoresho gafite amabara meza gashushanyijeho udushushanyo twiza, aka gakoresho kakaba gafite umwenge mo imbere munini aho kifashishwa n'abanyeshuri cyane cyane abiga mu mashuri y'inshuke bagatwaramo ibyo kunywa.

Ibikoresho bifite amabara atandukanye, arimo umweru, ubururu ndetse n'icyatsi kibisi, byifashishwa mu burezi. Bikaba bikoreshwa mu kuba abanyeshuri babyandikamo cyangwa se n'abarimu bakaba babyandikamo.

Ku rukuta rw'ishuri ry'inshuke, hashushanyijeho ibikoresho bitandukanye, biriho ibyifashishwa mu isuku, harimo nk'umukubuzo. Ibi bikaba bifasha abanyeshuri kugira ngo bamenye ibikoresho bitandukanye, bikoreshwa mu rugo.

Udukoresho dukoze mu ishusho y'imbuto dufite amabara y'umutuku, ubururu ndetse n'icunga turi ku kintu cy'umweru, utu dukoresho tukaba dukoreshwa mu kugira ngo abana bo mu mashuri y'inshuke bakanguke mu bwonko.

Udukoresho dufite amabara y'ikigina ndetse n'icunga, twifashishwa mu kwigisha mu mashuri abanza ndetse n'ay'inshuke. Ibi bikaba bifasha abanyeshuri kugira ngo ubwonko bwabo, bumenye gutandukanya amabara atandukanye.

Ibishushanyo biri mu ishusho y'uruziga, bikaba bishushanyijemo imibare itandukanye, ibi bikaba byifashishwa cyane mu mashuri, yaba abanza ndetse n'ayisumbuye, mu kwigisha amasomo atandukanye arimo nk'imibare.

Inyubako zubakishije amatafari, zisakajwe amabati y'ubururu ndetse zifite n'ibigega by'umukara, byifashishwa mu gufata amazi y'imvura. Nanone kandi hari ibihingwa birimo insina ndetse n'igiti cy'avoka.

Inyubako nziza cyane yubakishije amatafari ndetse ikaba yubatse mu buryo bugezweho bugekereranyije, ikaba yigwamo n'abanyeshuri batandukanye barimo abiga mu mashuri abanza ndetse no mu mashuri yisumbuye. Iyi nyubako ikaba yarafashije cyane aho yagabanyije ubucucike mu mashuri.

Igezweho ifite amabara y'ubururu ndetse n'umweru isakaje amabati y'umweru. Imbere yayo kandi hakaba ari ikinyabiziga k'ipikipiki kifashishwa mu gutwara abantu ndetse n'ibintu.

Udukoresho twifashishwa cyane cyane mu mashuri tukaba dufasha mu gushushanya ndetse no gupima ibintu bitandukanye, utu dukoresho ni ingenzi cyane kuko twifashishwa mu kwiga amasomo atandukanye arimo nk'Imibare.

Udukoresho dutandukanye, dufite amabara menshi, twifashishwa cyane mu kwigisha abana bo mu mashuri abanza. Utu dukoresho, tukaba dutuma abana bagira mu mutwe hakerebutse ndetse bakamenya no gufata vuba.

Uruziga rurimo utuntu dufite amabara atandukanye, twifashishwa mu kwigisha mu mashuri abanza, utu dukoresho, tukaba dufasha abanyeshuri mu gukangura ubwonko bwabo ndetse no kongera ubushobozi bw'ubwonko bwabo.

Ahantu hari inzu nyinshi zituwemo ndetse zikaba zituranye n'ikigo cy'amashuri, iki kigo cy'amashuri kikaba gifite inyubako zubakishije amatafari, imbere yazo kandi hari n'ibyatsi bitoshye ndetse n'ibihingwa bitandukanye.

Inyubako ebyiri zubakishije amatafari ahiye zikaba zitangirwamo uburezi, aho kandi hari n'ibyicundo byicundwamo n'abanyeshuri biga muri ayo mashuri, ibi bikaba bibafasha kugira ngo baruhure ubwonko.

Ibikoresho bikoreshwa mu kwigisha abanyeshuri ndetse bikaba birimo, udukoresho bakoresha bashushanya ndetse banapima ibintu bitandukanye, bakaba babikoresha bari kwiga amasomo arimo nk'imibare.

Udushushanyo dufite amabara atandukanye arimo n'icyatsi kibisi, umuhondo ndetse n'umutuku, tukaba twifashishwa mu kwigisha Ikinyarwanda mu mashuri abanza. Ibi bikaba bifasha abanyeshuri mu gukangura ubwonko bwabo ndetse no kumenya ururimi.

Udukinisho dufite amabara atandukanye arimo icyatsi, umutuku ndetse n'ubururu dufite n'ishusho y'utunyamaswa twinshi tukaba twifashishwa mu kwigisha abana bo mu mashuri abanza, utu kandi tukaba tubafasha kugira ngo ubwonko bwabo bukanguke.

Inyubako zubakishije amatafari ndetse zisakajwe amabati, zikaba zigirwamo n'abanyeshuri, hari kandi n'abanyeshuri bambaye impuzankano zifite amabara y'ubururu ndetse na kaki n'abandi bantu batatu, bari kwinjira muri icyo kigo.

Inyubako z'ishuri zubatswe mu buryo bugezweho, zubakishije amatafari ndetse zisakaje amabati, imbere yazo kandi hari ibyatsi byiza bitoshye aho abanyeshuri bicaramo bari kuruhuka, imbere yaryo kandi nanone hari Idarapo ry'Igihugu.

Mu ishuri ryiza cyane ryubakishije amatafari ahiye ndetse rifite amabara arimo ubururu ndetse n'umweru harimo abanyeshuri bambaye impuzankano z'ubururu ndetse n'umweru bicaye aho bari gufashwa n'umwarimu wabo.

Agakoresho gafite ibara ry'umweru ndetse n'umukara kifashishwa mu gushushanya ibintu byinshi birimo ibiziga bikaba bikoreshwa cyane cyane mu kwiga imibare mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye.

Abanyeshuri barimo abambaye impuzankano zisa ndetse n'abandi bambaye izidasa, bari imbere ku kibaho aho bari kwandika bifashishije ingwa, ibi ni muri bimwe mu bituma abana bamenya kwandika bakiri bato.

Ibikoresho bikozwe mu byuma byifashishwa cyane mu mashuri, ibi bikoresho bikaba birimo utundi dukoresho duto twifashishwa mu gupima cyangwa se mu gushushanya ibishushanyo bitandukanye, utu dukoresho kandi tukaba dufasha abanyeshuri mu kwiga amasomo atandukanye arimo Imibare.

Ku rukuta rw'inzu yubakishije amatafari hamanitseho icyapa kinini cy'umweru gishushanyijeho ibikoresho bikoreshwa mu nzu ikorerwamo ubushakashatsi, ibyo bikoresho bikaba birimo n'ibyifashishwa mu gusuzuma abarwayi indwara zitandukanye.

Inyubako y'ishuri yubatswe mu buryo bwiza, ifite amabara arimo umuhondo weruye ndetse ifite n'ibaraza ryiza, ikaba yifashishwa mu burezi. Nanone kandi hari ibiti binini by'inganzamarumbo biri inyuma y'iyo nzu.

Abantu barimo abakozi bambaye imyambaro y'akazi ifite amabara y'umuhondo, icyatsi kibisi, bari mu muhanda aho bari kwiga ku ngingo zimwe na zimwe. Nanone kandi hari ibiti biteye imbere y'inyubako zifite amabati ashaje.

Mu ishuri rifite ibara ry'umuhondo weruye ndetse hariho n'ikibaho gifite ibara ry'umukara, hari umunyeshuri uri imbere y'abandi. Uyu munyeshuri akaba ari gusomera bagenzi be ibyanditse ku rupapuro. Bagenzi be na bo bakaba bamukurikiye. Harimo kandi ibikoresho byinshi byo mu ishuri birimo intebe.

Abanyeshuri bambaye impuzankano ifite ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'ivu ndetse n'abandi bambaye impuzankano zifite ibara ry'icunga, bateraniye hamwe ku mirongo, aho bari kuririmba indirimbo yubahiriza Igihugu. Nanone kandi inyuma yabo hari ishyamba rifite ibiti byinshi.

Iruhande rw'ibiti bitoshye hateraniye abanyeshuri bambaye impuzankano zifite ibara ry'ubururu bw'ikirere ndetse n'ubururu bwijimye, bakaba bari kumwe n'umwarimu wabo. Uyu mwarimu akaba ari kubigisha yifashishije ibimera.

Mu bwatsi butoshye, hateraniye imbaga nyamwinshi irimo abagabo ndetse n'abagore n'urubyiruko. Hari kandi abagabo babiri bari gukoma mu mashyi. Aba bantu bose, bikaba bigaragara ko bafite akamwenyu ndetse bari gusabana.

Umugore wambaye imyambaro ifite ibara ry'ubururu bw'ikirere, unambaye ibikomo, afite indangururamajwi, aho afite ibyo ari kugeza ku bantu bamukurikiye ku bijyanye n'ingingo runaka. Na none kandi aho hantu hari ibimera birimo nk'imiyenzi.

Inyubako nziza cyane y'ishuri yubatswe mu buryo bugezweho igerekeyije ndetse yubakishije amatafari, ikaba ifite ibara ry'umuhondo weruye. Iyi nyubako ikaba ifite n'ikigega cy'umukara gifata amazi mu gihe k'imvura. Aya mazi akaba yifashishwa mu bintu bitandukanye birimo gu gukora amasuku.

Mu cyumba kinini cyahariwe kuberamo inama harimo abanyeshuri bambaye impuzankano zifite amabara y'umweru ndetse na kaki, bakaba bari gukora inama n'abayobozi b'ishuri.

Mu cyumba kinini cyane, gifite ibara ry'umweru ndetse n'amadirishya manini, harimo abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye, bambaye impuzankano zifite ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'ubururu bwijimye, bakaba bari kuriramo.

Mu ishuri ryiza cyane rifite ibara ry'umuhondo wijimye harimo umwarimu ndetse n'abanyeshuri, abo banyeshuri bakaba bambaye impuzankano zifite ibara ry'umweru ndetse na kaki, iri shuri kandi rifite ikibaho kigezweho gifite ibara ry'umweru.

Mu cyumba cyabugenewe k'ishuri rya Kaminuza, harimo abanyeshuri benshi. Abo banyeshuri bakaba bicaye bafite amakayi n'amakaramu, aho bakurikiye umuntu uri imbere yabo cyangwa se itsinda ry'abantu, bakaba bakurikiye ibyo bari kubagezaho.

Mu cyumba kinini kisanzuye k'ishuri gifite ikibaho kigezweho gifite ibara ry'umweru, harimo intebe nziza z'ubururu, izi ntebe zikaba zicarwaho n'abanyeshuri mu gihe bari gukurikira cyangwa se bari gusubira mu masomo.

Inyubako nziza cyane ya kaminuza yubatswe mu buryo bugezweho ifite amabara y'umweru ndetse isakaje amabati y'umutuku, imbere yayo kandi hari abanyeshuri bari kunyura mu tuyira twagenewe abanyamaguru. Nanone kandi hari ubusitani bwiza buteyemo ibiti.

Itsinda ryabanyeshuri bambaye imyambaro ifite amabara y'umukara ndetse n'umuhondo, bari ahantu hateganjwe, aho bari kwishimira ko babonye impamyabushobozi zabo zisoza icyiciro runaka cya kaminuza.

Mu cyumba k'ishuri rya kaminuza hateraniyemo abanyeshuri bicaye ku ntebe ndetse akaba harimo n'umwarimu uri kwigisha, uyu mwarimu akaba ari kwigisha yifashishije ikoranabuhanga rigezweho rifasha mu bwarimu.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho ifite ibara ry'umweru ndetse n'irindi bara risa n'ivu ikaba ari inyubako ya kaminuza, iyi nyubako ikaba yifashishwa cyane n'abanyeshuri mu gusubiramo amasomo ndetse no kuyigiramo.

Inyubako nziza cyane ifite ibara ry'umweru ndetse isakaje amabati y'umutuku, ikaba ari inyubako ya kaminuza yifashishwa n'abanyeshuri mu kwiga nanone kandi hari ubusitani burimo indabo zifite amabara y'umuhondo n'icyatsi kibisi.

Imbere y'inyubako yabugenewe ifite ibara ry'umweru, hari ubusitani burimo ibyatsi bitoshye ndetse n'indabo zifite ibara ry'icyatsi kibisi, ubwo busitani bukaba bwifashishwa n'abanyeshuri mu gihe bari kuruhuka.

Mu cyumba cyiza cy'ishuri rya kaminuza gifite amabara y'umweru, harimo itsinda ry'abanyeshuri, buri wese yicaye ku ntebe, bakaba bari gukurikirana umuntu cyangwa se itsinda ry'abantu riri imbere yabo, aho bigaragara ko banishimye.

Mu cyumba cyiza cy'ishuri cya kaminuza gifite amabara y'umweru, harimo intebe zifite amabara y'ubururu zikozwe mu buryo bugezweho. Izi ntebe zikaba zifashishwa n'banyeshuri mu gihe bari gusubiramo cyangwa se bari kwiga amasomo yabo.